Igiti kinyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Iki giti kikaba kiriho icyapa kibuza abantu kugikoraho cyangwa se kuncyurira kuko umuriro wakugirira nabi.

Uruganda rutunganya amata y'inyange, akaba ari uruganda rwubakishije amatafari ahiye, rukaba rukingishije ibyuma by'umukara.

Ikiraro kinyura mu kirere, kikaba ari ikiraro cyubakishije imigozi ndetse n'ibyuma, kikaba cyambukiranya ahantu hamwe kigera ahandi munsi hari amazi.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kunyurwamo n'imodoka y'Akarere, imodoka ikaba isa umweru, naho mu nkengero z'uyu muhanda hakaba hubatse amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo, aho uyu muhanda uri kunyurwamo n'imodoka isa umweru, ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hubatse inzu zitandukanye.

Umupira wa'maguru aho umupira ari gukinirwa mukibuga, ukaba uri guhuza amakipe abiri yambaye umupira u'ubururu uvanzamo icyatsi, naho indi ikaba yambaye ubururu bwikirere.

Imyitozo ngororamubiri aho iyo myitozo barimo kuyikorera hanze y'ikibuga cy'umupira, imyitozo ikaba yitabiriwe n'abaturage.

Ikipe y'umupira w'amaguru ikaba irimo kwishyushya mu kibuga cy'umupira. Ikibuga akaba ari ikibuga cy'ubwatsi, kikaba kiri mu kigo cy'amashuri.

Imyitozo ngororamubiri ikaba iri gukorwa n'abaturage, bakaba barimo kwirukanka n'amaguru ku muhanda wa kaburimbo, imyitozo ikaba yitabiriweabaturage benshi.